Mu cyumba mu mfuruka yacyo hakaba hari akabati k'amabara y'umweru, mo indani mu kabati hakaba harimo imiti igihe itandukanye ikoreshwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi.

Ababyeyi ubona ko bazindutse mu cya kare bajya guhinga, bajya kubagara mu murima w'ibigori. Inyuma yabo hagaragara ikiyaga ndetse n'imisozi miremire.